Ibikoresho byinshi by'ishuri byo guhemba abana bitwaye neza amakayi, ibikapu, ndetse n'ibindi, imbere yabyo hari intebe z'umweru.

Ikigo cy'amashuri kirimo ubusitani, ni mu mashuri y'inshuke aho haba hashushanyije ku shuri ibishushanyo byinshi byigisha abana, hasakaje amabati y'umutuku.

Abana bameze neza bigishwa n'umubyeyi wabo, aho hari n'abandi babyeyi baje kureba imyigire y'abo bana , ni abana biga mu mashuri y'inshuke.

Umwana wiga mu mashuri y'incuke, yambaye agashati ka karokaro ari ku kibaho aho arimo arandikisha ingwa y'umweru arimo arandika inyuguti.

Agakapu ko mu mugongo k'umwana wiga mu mashuri abanza, karimo umutuku ndetse n'irindi bara rijya gusa icyatsi kijimye, ni agakapu kariho agashushanyo k'umwana.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, bakunda ibikinisho bijya kumera kimwe, hari ibikinisho biri mu mabara menshi haba umutuku, ubururu, umuhondo ndetse n'andi bifashisha.

Abana barimo barakina, ni abana babiri b'abahungu. Abana iyo bageze mu kigero cy'imyaka irindwi n'itanu, baba barimo barakinisha ibintu byose babonye.

Agakinisho k'umwana wiga mu mashuri y'inshuke aho bakambitse ingofero y'umweru n'umutuku, agakinisho ni agapupe kameze nk'agafite amaso n'umunwa.

Umupira ukinwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke. Ni umupira ufite ubudomo bw'umweru na wo urasa ubururu. Uyu mupira ukunze kuba ari uwa kizungu.

Imyitozo ni amagambo yanditse mu nyuguti z'umweru ku kintu cy'umuhondo kiriho n'irindi bara ry'ubururu bwijimye cyane, ni amagambo asomwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke.

Ku kigo cy'amashuri ahari abana batandukanye barimo barakina bidagadura, hari ipoto rinini rishamikiyeho insinga eshatu zitwara umuriro, hari ubusitani buri imbere y'ishuri aho harimo indabyo n'ibiti.

Ibikoresho nk'igorofani, umwiko ndetse n'ibindi bitandukanye, biri mu kigo cy'amashuri y'abana biga mu mashuri y'inshuke.

Umwana wicaye ari mudukinisho twe aho afite udukinisho dutanu dusa n'udukono atekeramo, ni byiza gukinisha abana imikino myinshi igiye itandukanye.

Igikinisho cy'abana kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, gifite amapine, kimeze nk'igitogotogo abana bagendesha. Ni igishushanyo.

Abana biga mu mashuri y'inshuke baba bagomba gushushanyirizwa udushushanyo tuberekera ibintu byose turimo nk'imitima, amazina, y'abantu, n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ibikoresho byabugenewe byo mu bana b'inshuke biba ari byinshi haba harimo abantu, ibikombe, ndetse n'ibindi biri mu mabara atandukanye, ibyo bifasha abana kujijuka.

Ni abana bambaye impuzankano y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi. Bari hamwe n'abarimu babo, aho barimo bararya buri mwana afite isahani ye. Kugaburira abana ku ishuri ni ingenzi.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri. Ni ishuri ryiza rishushanyijeho ikarita ya Afurika, rishushanyijeho amagare, umuntu ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nk'ifi. Aha abana baraza bakabirangarira, ni abana biga mu mashuri y'inshuke.

Ameza atandukanye ndetse n'intebe zitandukanye; iz'ubururu, iz'umutuku ndetse n'ameza y'ubururu n'umuhondo. Biteretse ahantu, aho higira abana bo mu mashuri y'inshuke.

Ibishushanyo bigiye bitandukanye bifasha abana biga mu mashuri y'inshuke gusobanukirwa neza ibyo mwarimu avuga, inka, ihene ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa bashushanyiriza abana kugira ngo bige neza.

Abana biga mu mashuri abanza iteka bahorana udukinisho ndetse turiho amazina ndetse n'ibyamaswa bibafasha kwiga neza, n'abana b'abakobwa ndetse n'abahungu.

Agakoresho k'umwana wiga mu mashuri y'inshuke, kariho urusimba runini ni agakoresho atwaramo igikoma agiye ku ishuri kugira ngo inzara itaza kumwica.

Akana kicaye mu byishungo hirya y'aho hari akandi gahagaze ndetse mu kicungo mo hagati harimo umuntu mukuru, abana ni byiza ko bakinira mu byicungo nk'ibi.

Ibikinisho by'abana bo mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke, biba bijya kumera kimwe. Imodoka, amazu ndetse n'ibindi bitandukanye, biri mu mabara atandukanye bikurura abana kugira ngo bige neza.

Abana babiri bari kumwe n'umubyeyi wabo, umubyeyi arimo arahereza umwana w'umuhungu isahane ye, umukobwa nawe arayifite aho buri wese yisangiza.

Ibikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, harimo irati y'ikizeru, harimo irati ndende, harimo kompa na kereyo ndetse n'urupapuro.

Abana biga mu mashuri abanza, baba bafite ishyaka ndetse n'imbaraga zo kujya ku ishuri, aho bagenda basiganwa, abarimu babareba bakabishimira.

Ameza intebe ziyakikije. Harimo imitako myinshi itandukanye, harimo utubati, harimo ibikinisho ndetse harimo n'ibitabo. Ni mu ishuri ribanza.

Hagati mu kibuga harimo ubusitani. Ndetse hagati y'bwo busitani harimo akayira k'amapave. Ni mu kigo cyo mu mashuri abanza, aho hari inyubako z'umweru.

Imibare ikunze kugira ibishushanyo bibiri, aho biba bifite aho bihurira. Hanyuma ibyo bishushanyo bakuzuzamo imibare. Abana babikora baba ari abahanga.

Inkoko ifite igitabo irimo irasomera abana bayo. Iyi nkoko ishushanyije mu buryo bw'isake. Ni ibikoresho byifashishwa n'abana, biga mu mashuri abanza.

Udukoresho twinshi turimo utw'uruziga utwa mpande eshatu ndetse n'utundi dutandukanye turi mu mabara atandukanye nk'umuhondo, umutuku, icyatsi, n'ubururu. Ni udukoresho twifashishwa n'abana bo mu mashuri abanza.

Ibyicungo by'abana biga mu mashuri abanza biba bimeze nk'idarapo, hari amashuri yubatse, hari ibimera biteye hirya no hino bikikije icyo kigo cy'amashuri abanza.

Ku kigo cy'amashuri hari idarapo ry'u Rwanda mo hagati mu busitani. Hari n'izindi ndabyo n'ibiti ndetse n'inyubako zitandukanye. Hari n'akayira k'amapave.

Ibikoresho birimo amakereyo, imikasi ndetse n'amarate. Ni byo byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza kugira ngo babajijure babigishe.

Inzu ifite amabati y'umutuku, ifite amadirishya y'ibirahure n'urugi rw'ubururu. Ni inzu nziza cyane, igaragaza ibice byayo, aho byifashishwa n'abana bo mu mashuri abanza.

Umuntu arimo arakora ibintu bibi aho arimo arituma mu gasozi, ni umwana wiga mu mashuri abanza aho abana ntakintu baba bitayeho, ari mubyatsi.

Abanyeshuri ndetse n'abarimu, bajya bagirana ibiganiro. Aho baba barimo baraganiriza abana, uko bakwiye kwitwara ndetse bakabigisha guhanga udushya twinshi.

Abana bifashisha ibitabo bitandukanye iyo barimo bariga, mu mashuri abanza. Hari ibitabo bibafasha birimo amashusho menshi agiye atandukanye ndetse bagasanisha n'ibyo bize.

Mu mashuri abanza ndetse n'ayo mu mashuri y'inshuke habamo ibishushanyo bigiye bitandukanye bifasha abana mu myigire yabo, hari umwarimu ubari imbere ndetse hari n'ikibaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza bakunze kugira ahantu bakinira habo habonyine, baba barimo ari benshi umwa agakaraga bose bakagenda bikaraga.

Ibikoresho byifashishwa n'abana bo mu mashuri abanza harimo: nk'amarati, amakereleyo, gome ndetse n'amarati y'ubwoko bwinshi haba amaremare, amagufi, ay'impande eshatu n'ay'ikizeru bayifashisha mu isomo ry'imibare.

Ikigo cy'amashuri cya Rukomo, ni ikigo cy'amashuri yisumbuye aho hari urugi rw'icyatsi kibisi ruriho ngo: "Ikaze".

Ku kigo cy'amashuri, ishuri ryubakishije amatafari ahiye rifiteho inzugi z'ubururu n'amabati y'ubururu. Bigaragara nkaho havuye izuba ryinshi cyane.

lbikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, babyifashisha mu isomo ry'imibare cyane cyane harimo; amarati, kereyo ,ndetse na kopa, na gome.

Ibikoresho bitandukanye biririmo inyuguti, harimo amakereyo, harimo imikasi, biri mu mabara atandukanye n'ibikoresho byifashishwa n'abana bo mu mashuri abanza.

Ibikoresho bibiri byifashishwa n'abana bo mu mashuri abanza. Ni amabuwate matematicale, haba harimo ibikoresho byinshi bishinzwe guca imirongo ndetse no gushushanya.

Ibikoresho byifashishwa n'abana bo mu mashuri abanza birimo amarate, amakereyo, amabuwate, n'ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare, aho babigura bakabyifashisha.

Utuntu tw'udukinisho tumeze nk'abana, dukoze ikizeru, mo hagati harimo umupira, ni abana bigishwa muri ibi, bigira muri ibi bikoresho, aho baba biga mu mashuri abanza.

Umugabo ufite icumu, afite mu ntoki akantu kameze nk'umusaraba. Ni igishushanyo kifashishwa mu mashuri abanza, aho baba bagira ngo abana bakurikire.

Ibikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza biba birimo amarate, amakereleyo, n'akantu gaconga kereyo, amarate aba ari menshi ari mu bwoko butandukanye.

Umwarimu w'umugabo ari mu ishuri ndetse harimo n'abanyeshuri. Bicaye ku murongo umwe, aho bari gukora ikizami. Iyo abanyeshuri bakora ikizami, ntago baba bemerewe kureba ku ruhande.

Amoko y'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ajya afasha cyane mu mashuri abanza. Haba imibare, haba ibishushanyo, haba udusimba ndetse n'amagambo. Ibyo byose bifasha ubwenge bw'abana gukora neza.

Ni ibikoresho byinshi bitandukanye, amarate y'ubwoko bwinshi harimo iya mpandeshatu, harimo iy'ikizeru, harimo irate ndende, byose byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza, aho babyifashisha mu isomo ry'imibare.

Abantu benshi bari mu ishuri aho abagabo ari babiri n'abagore bakaba babiri. Hari ameza, intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa. Ni mu ishuri ribanza.

Umugabo wambaye ishati y'umukara. Afite indangururamajwi mu ntoki ndetse na telefone. Akurikiwe n'abantu benshi aho yabahurije hamwe, ni ku kigo cy'amashuri abanza.

Ibikoresho biri mu ishuri, n'ishuri ry'abana biga mu mashuri abanza, ni ibikoresho byinshi bibafasha kwiga neza ku mudendezo nta kintu kibabangamiye.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu mashuri abanza, biba bigizwe n'imibare inyuguti ndetse n'ibindi bintu biri mu mabara atandukanye kugira ngo bifashe abana mu gusobanukirwa.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu mashuri abanza habamo; isaha, intebe, ndetse n'ibindi byinshi. Abana baba bakwiye kwitabwaho berekwa amashusho menshi.

Ikigo cy'amashuri hagati harimo idarapo ry'u Rwanda, aho icyo kigo hahagazemo umwarimu wambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'umukara. Ni amashuri meza cyane.

Igikoresho gikoze mu bikarito kifashishwa mu mashuri abanza aho aba ari mara, abana kugira ngo ubigishe mara ugomba kubikundishaho ndetse ukabigisha n'uburyo bwinshi bwo kuyifata mu mutwe.

Ibikinisho by'abana biga amashuri abanza biba bigizwe n'intebe, ibigendesho, ibyo kwicundaho ndetse n'ibiti by'amashusho menshi, abana babikoresha mu kwiga.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza cyubakishijeje amatafari ahiye gisakaje amabati y'ubururu, inyuma hari ibihingwa nk'urutoki, ibigori, ndetse n'ibindi biti hariho n'ikigega gifata amazi.

Bari mu nyubako igeretse iyo nyubako ifite amagiriyage y'icyatsi ndetse n'inzugi z'icyatsi. Ni inyubako ifite inkingi nyinshi bigaragara nkaho ari mu ishuri ribanza.

Abanyeshuri ndetse na mwarimu wabo bari muri siporo. Aho barimo baragorora amaboko bayazamura. Bari mu mpande y'amashuri yabo ndetse n'ubusitani.

Udukoresho tumeze nk'udufurizo tw'umweru, umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, birubitse ni ibyo abana bakoresha babasobanurira mu mashuri abanza.

Udukinisho tw'abana bo mu mashuri abanza, harimo utw'umutuku, ubururu, umuhondo, umweru ndetsete n'umukara, ni udukoresho bifashisha bari gukina imikino itandukanye.

Ibikoresho kompa, gome, amakereyo, tayekereyo ndetse n'amarate byifashishwa n'abana biga mu mashuri abanza kugira ngo bige isomo ry'imibare neza.

Umukasi, kereyo, agacupa ndetse n'amakayi, ni ibikoresho byifashishwa mu mashuri abanza. Biri mu mabara atandukanye nk'umweru, umuhondo, umutuku, icyatsi, ni byinshi.

Mu mashuri abanza haba harimo ibishushanyo ndetse n'ameza ndetse n'utubati tubikwamo ibitabo, inyubako y'amatafari ahiye ni mu kigo cy'amashuri aho harimo ibitabo muri ako kabati.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri. Bose bafite uko bameze bitandukanye bigaragara nk'aho bari gufata ifoto. Bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'umukara.

Abana biga mu mashuri yisumbuye baba bateze amatwi ariko kandi ntibibabuza no kurangara, iyo barimo babwirwa nk'amategeko n'amabwiriza azabagenga mu gihembwe batangiye.

Abanyeshuri ni bamwe mu bantu bakunda kwitabira ibiganiro bitandukanye, aha bari kumwe n'ababaganiriza bari mu mahema ndetse no munsi y'ibiti aho bakurikiye buri wese yicaye ku ntebe.

Abana bo mu mashuri yisumbuye bicaye mu byatsi, abandi bahagaze hejuru yabo. Bicaranye n'umwarimu wabo, aho yabatembereje, bakajya kwigira hanze y'ikigo.

Abanyeshuri bane b'abakobwa, bambaye karuvati z'ubururu bwijimye, amajipo y'ubururu bwijimye, amashati y'ubururu bwerurutse, n'inkweto z'imikara barimo barifotoza.

Umwarimu ari mubanyeshuri aho ari sare nini cyane abanyeshuri bagenda bicara mu bihande, bambaye impuzankano baricaye baramukurikiye ni umwarimu w'umubyeyi.

Abanyeshuri bambaye udupfukamunwa, bicaye mu ntebe barimo bariga ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye amashati y'ubururu, barimo barandika buri wese arakurikiye.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri ni inyubako y'ishuri rigaragara risize amarangi y'umuhondo, yubakishije amatafari ahiye mu ishuri rikuru ry'amashuri yisumbuye, hari n'ikigega gifata amazi.

Abarimu benshi abagabo n'abagore bafite za mudasobwa. Bambaye amataburiya y'imyeru, bari imbere y'ikigo cy'amashuri, imbere yacyo hari jaride iteyemo indabyo ndetse n'ibyatsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amakanzu ya pinki ndetse hari n'abahungu bambaye karuvati z'umutuku bambaye n'amashati y'umweru n'amakabutura y'ubururu bwijimye, abana b'abakobwa basa nabicaye abandi bahagaze inyuma ku mirongo.

Ni mu gihe cyo kwirinda indwara z'ibyorezo aho kugira ngo winjire mu kigo cy'amashuri ubanza ugakaraba intoki neza ukoresheje amazi meza n'isabune, hari umuntu ubashinzwe arimo arabagenzura uko bakaraba, ni abahungu n'abakobwa babiri.

Umugore wambaye ishati yazinze amaboko, yambaye ibikomo, yambaye amarinete, afite indangururamajwi aho inyuma ye hari undi mugore wicaye wambaye agapira ka oranje baramukurikiye.

Umuhungu barimo baramupima ku gahanga bakoresheje icyuma cyabugenewe, afite igikapu mu mugongo n'ikindi mu ntoki, barimo baramupima ibipimo bigaragaza umuriro afite. Bose bambaye agapfukamunwa, hari n'undi uri inyuma yabo.

Umunyeshuri wambaye karuvati y'umukara, ijipo isa n'ivu ndetse n'ishati y'umweru. Arahagaze, arimo arasoma, intoki yazizamuye, ni umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye.

Inyubako nziza isize amarangi y'ubururu ndetse n'umuhondo. Ni inyubako ifite iruhande rwaho hari amapave, ni ikigo cy'amashuri abanza.

Abantu benshi, imodoka, urupangu ni bo bahagaze inyuma y'urwo rupangu, hirya y'abo hari indabyo hari amazu ni ku kigo cy'amashuri abanza.

Abanyeshuri bambaye udupfukamunwa, bicaye ku ntebe buri wese yahanye intera ya metero na mugenzi we, bambaye impuzankano amashati y'umweru n'amajipo yo y'amakake.

Abanyeshuri benshi barimo abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano umweru n'ubururu, hari umusore urimo urabagira inama aho yambaye agapira k'umweru n'ubururu, yambaye n'isaha ku kaboko.

Abanyeshuri babiri umwe afite Bibiliya yayizamuye n'undi yayikozeho, bafite mu ntoki udupapuro barimo barasoma aho bambaye iniforume zitandukanye, umwe yambaye umupira w'icyatsi undi yambaye ishati y'umweru.

Umwarimu uri imbere y'abanyeshuri afite indangururamajwi n'urupapuro mu ntoki rw'umweru arimo arababwira. Ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye, aho abana bambaye impuzankano za kake n'umweru, harimo n'abambaye imipira y'ubururu.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'imipira y'ubururu, harimo n'abandi bambaye ibindi bitandukanye, bambaye n'amakaki hasi. Bari kumwe n'abarimu babo, ni abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bahagaze.

Abanyeshuri biga mumashuri yisumbuye barimo barakurikirana ikiganiro cy'umuyobozi aho ari kugenda azenguruka ababwira afite indangururamajwi, yambaye ishati y'umukara.

Abana biga mu mumashuri yisumbuye, bakunda kwambara imipira, aho kugira ngo bambare amashati. Aba abana, barimo abambaye iby'umweru, iby'umuhondo ndetse n'ubururu.

Abanyeshuri babiri bambaye ubupfukamunwa, bambaye amashati y'imweru, buri wese imbere ye hari mudasobwa bigaragara ko bari mu kigo cy'amashuri ndetse mu cyumba cy'ishuri, aho bari kwiga gukoresha mudasobwa.

Abanyeshuri biga mashuri makuru yisumbuye bari mu ntebe munsi y'ibiti byiza bitanga igicucu, bambaye iniforume z'umweru na kake bateze amatwi, hari n'abandi bambaye iz'umuhondo n'ubururu.

Bicaye bakoze uruziga, hagati yabo hari ameza, ni abahungu babiri n'abakobwa batatu. Bari mu matsinda, aho baba bari kungurana ibitekerezo.

Ku kibaho mu cyumba cy'ishuri, hari inyandiko zigaragara mu mabara y'umweru, ku ntebe hariho ikayi. Ni mu kigo cy'amashuri.

Ibikoresho byo mu Rwanda rwo hambere bikorwa mu ibumba akenshi ni ho twabibonaga aho babaga bafite amavazi akoze mu ibumba yo guterekamo indabyo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye by'umuco biba byarakozwe nabanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse n'ay'ubumenyingiro, ni ibikoresho wataka no mu nzu iwawe.

Ikayi irambuye ku meza, ameza arasa neza hariho n'intebe y'icyatsi kibisi itagaragara neza, ikayi yanditsemo mu bigaragara, ni mu mashuri y'imyuga n'ubumengiro.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri. Imbere yabo hari umwarimu urimo urabigisha. Ni abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bambaye uko bashaka, biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza.

Udukoresho twinshi tuba twakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse no mu mashuri y'ubumenyingiro, n'imitako ushobora gutaka muzu iwawe cyangwa se n'ahandi hantu henshi hatandukanye.

Abana bicaye mu mashuri ni abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza, buri wese afite amazi imbere ye, bambaye n'amakarita mu ijosi barakurikiye.

Bari mu itsinda ni abanyeshuri biga muri kaminuza bicaye mu ntebe z'ubururu, aho bakurikiye bose bari kwiga ku kibazo runaka ni nk'umukoro bahawe na mwarimu.

Ni inyubako y'umuntu aho ikirahuri kirimo ibiti. Inzu ikingishije urugi rw'icyatsi kibisi, umuntu ntagaragara neza asa n'aho ari guhengereza.

Ububumbyi, ububumbyi bukorerwa mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri baba biga ibintu bitandukanye ndetse bafite n'impano zo kubumba ibintu bitandukanye.

Abanyeshuri ba kaminuza iyo bari kujya kwiga uba ubona bameze nk'abantu basanzwe. Aha bari kumanuka ku masikariye binjira mu kigo bigiramo. Biga imyuga n'ubumenyingiro.

Abanyeshuri bari mu ishuri, aho bamwe bahagaze abandi bicaye, bari mwishuri bicaye ku ntebe z'icyatsi kibisi, ni mu mashuri y'imyuga n'ubumenyigiro.

Ikibumbano cy'umuntu, aho biba byarabumbwe n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru n'ubumenyingiro. Bagira ubuhanga butandukanye bwo kubumba ibintu byinshi mu ibumba.

Abanyeshuri biga muri kaminuza. Biga imyuga n'ubumenyi ngiro, aho baba bari gukora ibintu byinshi bitandukanye, hari abari kureba mu mashini, hari abari kuganira hari n'undi umwe ukurikiye.

Ibikoresho byifashishwa ahantu henshi hatandukanye bikoze mu ibumba usanga biba byarakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri yigisha imyuga n'ubumenyigiro, aha hari imitako ushobora gutaka.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyiyingiro, bakunze kugira ubuhanga bwo gukora ibintu bigiye bitandukanye babikoze mu bindi. Aha hari igikoresho bakoze bifashishije ibumba.

Umugabo wicaye arimo aracuranga gitari ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Ni umugabo ucurangisha akaboko k'iburyo n'ak'ibumoso. Iyo wize neza gucuranga witabira ibirori byinshi.

Ikibindi gikoze mu ibumba ndetse hari n'indi mitako iri aho ngaho. Ububumbyi bwahozeho no mu Rwanda rwo hambere aho washoboraga kubumba ibintu bitandukanye ndetse ukaba washyiramo nk'indabyo n'ibindi bintu.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru n'ubumenyingiro, baba bafite ibikoresho bitandukanye aho ushobora nko kujya gusaba serivisi iyo ari yo yose bakayiguha.

Ameza ameze neza, hariho ibindi bikoresho biri munsi yayo iruhande. Ni mu mashuri makuru ya kaminuza ndetse n'ubumengiro, aho bakora ibintu byinshi bitandukanye.

Inyubako nziza imbere yayo hashashe amapave, ni inyubako isakaje amategura, irimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu bwerurutse, ifite inzugi n'ibirahure.

Umusore wambaye agapira ka rakosita k'ubururu bwijimye yicaye imbere yisomero, afite imashini ku meza aho yaje mu bushakashatsi, ni byiza kujya gusura isomero ukamenya byinshi.

Ibikoresho bimeze nk'intebe bikorwa n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse n'ubumenyingiro aho baba bakoze ibintu bitandukanye ndetse bikagurishwa bikazana amafaranga menshi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bibumbwa n'abanyeshuri biga mu ma kaminuza y'imyuga n'ubumenyingiro, biba bikozwe mu mabumba. Aho ubijyanye ku isoko uhabwa amafaranga menshi.

Bari mu ishuri bambaye imyenda isanzwe, bigaragara nkaho ari abanyeshuri ba kaminuza. Iyo wicaye mu ishuri uri kwiga, ugomba gukurikira ndetse ukabaza n'ibibazo aho utumvise.

Igishushanyo kigaragaza igiti ndetse n'utunyamanswa, iki gishushanyo gikunze gutakwa mu nzu hirya no hino, aho usanga abantu babitatse mu mazu yabo. Ibishushanyo biba bikwiriye gutakwa mu nzu.

Abantu barimo baratambuka, hirya yabo hari akazu kubatse karimo irange ry'umweru gasize irange ry'umweru, abandi bantu basohotse hino yabo hari ibyatsi ndetse n'indabyo

Bari mu muhanda ni abantu benshi bari kwerekeza imbere yabo, aho hirya yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti abakobwa n'abahungu bari mu muhanda w'igitaka.

Umukobwa ufite aka bag mu ntoki, afite terefone, ahagaze yihengetse n'agashushanyo kashushanyijwe n'umunyeshuri wiga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro.

Ikayi iteretse ku ntebe aho hariho n'urupapuro, ni agakayi gatoya kifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri ya kaminuza, bandika note nkeya.

Imitako myinshi igenda ikorwa mu mashuri yisumbuye ndetse n'ama kaminuza n'amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro. Iyi n'imitako itandukanye mu mabara atandukanye.

Abanyeshuri batatu bari mu ishuri. Ni mu mashuri ya kaminuza ndetse n'ayigisha imyuga n'ubumenyigiro. Hari intebe ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bakoze.

Ababyeyi bari mu nama aho barimo barakurikirana umuntu ufite indangururamajwi, bari kumwe kandi n'urubyiruko, iyo twicaye mu nama tuba tugomba gukurikira.

lkirahure kimeze neza ,n'inzu imeze neza yubatse mu buryo bwa kijyambere ,iyo wubatse ukubaka neza ,ndetse ugahesha ishema aho utuye biguteza imbere.

Ibibumbano byinshi bitandukanye bikunze kugaragara mu mashuri makuru y'ubumenyingiro. Aha hari akabindi kabumbye kagiye karimo imihiro myinshi. Hari n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ubusitani bwiza burimo indabyo z'amoko abiri, zimwe ni icyatsi izindi y'umuhondo, harimo ikigega giteretse ku byuma inyuma y'icyo kigega, hari inzu nziza, imeze neza isize amabara y'umweru.

Indabyo nyinshi ziri hagati, hagati yazo harimo ahantu bajugunya imyanda. Ni akazu kameze nk'agasakaye, karimo imyanda. Kari mu ibara ry'icyatsi, hari n'ibiti aho ku mpande y'inyubako.